Itsinda ry'abantu bafite amabafu mu ntoki arimo ifumbire bari kugenda bayishyira ku bigori. Ifumbire mvaruganda ni kimwe mu bintu bifasha ibigori kwera, bikera neza bigatanga umusaruro mwinshi kandi bikanera vuba.

Itsinda ry'abantu rigizwe n'abagore ndetse n'abagabo bafite amasuka ndetse n'ibitiyo barimo gutunda ifumbire. Ifumbire barimo kugenda bayikura ahantu irunze bayisanza kugira ngo babone uko baza kuyiyora, ubundi bayijyane mu mirima.

Utubati turimo imiti bigaragara ko ari iy'amatungo ndetse imbere hariho ameza nayo afitemo aho kubika imiti, hakaba hariho n'icyapa kigaragaza ko ari aho kwishyurira bakoresheje telefone.

Icyapa kiriho ibishushanyo ndetse n'amagambo bigaragaza ko ari imiti y'ibihingwa, bifasha kurinda ubukoko cyangwa se utundi tunyamaswa twose dushobora kwangiza imyaka tugatuma itagira umusaruro uhagije cyangwa se tugatuma idakura neza.

Itsinda ry'abantu bari mu murima w'ikawa barimo kugenda bashyiraho ifumbire y'imvaruganda. Ikawa ni igihingwa gitanga amafaranga kubera ko igurwa neza kandi ikanera cyane. Bisaba rero kuyitaho kugira ngo itange umusaruro mwinshi kandi mwiza.

Ubutaka butunganyije buteguwe kugira ngo buhingwemo, hakaba hari ikirundo cy'ifumbire kiburimo kizashyirwamo kugira ngo bubone ifumbire ihagije, imyaka izahingwamo maze izere itange umusaruro uhagije.

Inzu irimo utubati turimo imiti myinshi ndetse n'intebe aho umuntu yicara, utubati turimo imiti ikaba ari imiti y'inyamaswa cyangwa se iy'amatungo yo mu rugo, bigaragara ko ivura indwara z'amatungo.

Ibafu ihinzemo imboga. Bakaba barabanje gushyiramo itaka, barangiza bagashyiramo amashu ndetse n'inyanya. Akaba ari uburyo bwo gukoresha ubutaka neza ndetse no kwiyegereza imboga kuko ari ingirakamaro mu buzima bwa muntu.

Umuntu urimo gufuhera imyaka, aho arimo kuyitera imiti yica udukoko, akaba yirinze akoresheje akantu gapfutse ku munwa ndetse yambaye n'igisurubeti kirinda umubiri we kugira ngo umuti utamugeraho, kuko bishobora kuba byawugiraho ingaruka zitari nziza, gufuhera imyaka ni kimwe mu bintu bifasha imyaka kugira ngo ikure neza idafite ibiyona cyangwa se ngo biyangize.

Umurima urimo ikirundo cy'ifumbire y'imborera, akaba ari ifumbire ikora neza kandi igafasha imyaka ihinzwe muri uwo murima kwera neza kandi ikagira umusaruro mwiza uzira amakemwa.

Utubati turimo imiti bigaragara ko ari imiti y'amatungo ndetse n'ibimera, hakaba hari n'ibikoresho byifashishwa mu gutunganya no gukorera imiti neza kugira ngo bayirinde ibibazo byo kuba yakwangirika.

Utubati twinshi dutandukanye harimo ubudomora bugiye burimo ibintu bitandukanye, akaba ari ububiko bw'utudomora twinshi turimo ibintu runaka byifashishwa kuba byakoreshwa mu buhinzi.

Uruhuri rw'abantu bari kumwe, barimo gufata ibyatsi babishyira mu mifuka, bakaba hari icyo barimo gupanga kubikoresha ndetse hari n'abandi benshi bari kure, harimo abantu batandukanye, abagabo, abagore, abana ndetse n'abasore.

Abantu benshi batandukanye b'ingeri zose bari mu mirima, barimo gushyira ifumbire ku bigori, ifumbire y'imvaruganda ni kimwe mu bintu bifasha ibigori gukura neza, ndetse bikagira umusaruro mwinshi uhagije ku buryo bushoboka bwose.

Umuhinzi urimo gufuherera imyaka kugira ngo arwanye udukoko dutuma itagira umusaruro mwiza. Ahetse ikijerekani kirimo umuti ndetse afite ipombo mu ntoki yo akoresha agira afuherere amazi arimo umuti avuye mu kijerekani ahetse.

Itsinda ry'abantu benshi rigizwe n'abagabo kumwe n'abagore barimo gukora umuhanda. Barimo guca rigore ahantu bagiye gukora umuhanda, kugira ngo ibinyabiziga n'abantu bazahace bitagize icyo bibabangamiraho mu rugendo rwabo.

Abantu barimo gusarura ikawa, ikawa ni igihingwa gihingwa kugira ngo kigurishwe abantu babone amafaranga, abantu benshi bahinga ikawa kugira ngo bayibyaze umusaruro babone ibibatunga baguze mu mafaranga baba bayikuyemo.

Itsinda ry'abantu benshi barimo gushyira ifumbire ku bihingwa by'ibigori, ifumbire bakaba bayifite mu tudeyi bafite mu ntoki, bakaba bari kugenda banyanyagizaho mu gihe abandi bari kugenda bataba kugira ngo ibigori bizere neza bifite intete nini kandi bifite umusaruro mwiza.

Umuntu uhetse ipombo inyuma, ndetse afite n'akantu arimo kugenda afuherera mu murima w'amashu kugira ngo ureke kurwara cyangwa se havemo ibyonnyi byari birimo byangiza amashu, ibyongibyo bituma ugira umusaruro uhagije ndetse kandi mwiza.

Umuferege urimo amazi bigaragara ko ari mu murima ahantu bateguye kugira ngo amazi ajye ajya babone uko basukira imyaka yabo, maze yere neza igire umusaruro mwinshi kandi ushimishije cyane.

Umugabo ari mu murima w'ibitunguru. Arimo kubikorera. Abibagara ndetse abikuraho imyanda ishobora gutera ikibazo, bishobora gutera kwangirika kwabyo, bikaba byagira umusaruro utari mwiza. Ibitunguru ni bimwe mu bintu bikoreshwa mu guteka nk'ibirungo.

Umurima urimo ibihingwa bitandukanye. Igice kimwe gihinzemo imyumbati ndetse n'ubunyobwa, naho ikindi gice gihinzemo ibigori. Byose ni ibihingwa bigereranyije, bidahenze cyane kuko ntago bisaba amafaranga menshi kugira ngo ubihinge kandi ntanubwo bigoye cyane.

Igiti cy'amapapayi gifiteho amapapayi asa neza kandi yeze ategereje gusarurwa, amapapayi ni kimwe mu biribwa biri mu bwoko bw'imbuto, bigira umumaro munini cyane mu gihe ariwe kandi akaribwa neza.

Igiti k'ipapayi kiriho imbuto nyinshi z'amapapayi zahiye ndetse n'izitarashya, amapapayi ni zimwe mu mbuto zikunzwe kandi zigira umumaro munini kubera ko zongera vitamine ndetse zigafasha umubiri kubaho neza nturwaragurike.

Ikawa ni kimwe mu bihingwa bitanga amafaranga, aho abantu bayihinga bayisarura, bamara kuyisara bakajya kuyigurisha, bayigurisha ku biro bakabaha amafaranga bitewe n'aho ikiro kiba kigeze, ikawa ishobora koherezwa hanze cyangwa igatunganyirizwa mu Rwanda.

Ibirayi ni kimwe mu bihingwa bigira umusaruro. Iyo byitaweho neza. Bisaba kuba byaratewe hakoreshejwe imbuto nziza ndetse bigaterwa mu butaka bwiza kugira ngo bizagire umusaruro mwinshi kandi mwiza.

Abantu benshi batandukanye barimo kwikorera ibyatsi bymuceri, babikura ahantu biri babijyana ku bisasiza imirima yabo harimo intoki cyangwa se inyanya kugirango ngo bizere neza.

Abantu barimo gushyira imbuto z'ibiti mu bihoho, aho bikurira bikamera neza mbere y'uko bishyirwa mu butaka busanzwe kugira ngo bimanze bimenyere ikirere ndetse bigire imizi ikomeye izabifasha gushaka amazi abitunga.

Umurima urimo imigozi y'ibijumba aho bafashe amayogi yari amaze gutabirwa, bakayateramo imigozi; kugira ngo imvura nigwa imigozi izakure ibyare ibijumba, bizabashe gukurwa bijye kuribwa cyangwa se bijyanwe ku isoko, ba nyirabyo babone amafaranga.

Umuririma w'ibisheke bimwe byasaruwe ibindi bitarakura neza. Ibisheke bifasha mu gukora isukari, cyangwa se bigakoreshwa mu nganda zikora ubwoko bw'inzoga butandukanye; ibisheke bishobora no gukoreshwa mu gihe umuntu ashaka kukirya yenda afite nk'inyota nyinshi.

Imitumba cyangwa se insina, hari n'abazita imibyare. Bigomba gutunganywa neza mbere yuko ijyanwa guterwa kugira ngo izagire umusaruro uhagije. Ni byiza ko wakwita ku mibyare ikiri mitoya kugira ngo izaterwe ibyare indi ifite umusaruro mwiza.

Umurima w'urutoki mwiza cyane ufite insina nziza, ukaba hariho n'ibitoki ndetse bigaragara ko bimeze neza bitanga icyizere cy'uko bizatanga umusaruro ushimishije, bigaragara ko ari byiza gukorera urutoki ndetse ukarurinda ibyonnyi.

Umurima w'ibigori bitoshye bisa neza, ibigori bikiri bitoya bitaratangira guca ingingo, gusa bimeze neza byabonye ifumbire ihagije ndetse n'imvura ,bitanga umusaruro wo kuzera ndetse bikera neza bigatanga umusaruro uhagije.

Umurima w'ibirayi umeze neza, aho ibirayi byafumbiwe ndetse bikabona imvura ihagije. Bikaba bikura bimeze neza, bigaragara ko bizatanga umusaruro uhagije kandi unashimishije ku buryo bwiza cyane.

Umuntu uri mu murima w'ibigori arimo guca ibigori gusa bigaragara ko bitari byuma, ibigori ari guca ni ibyo kurya akoresheje kotsa cyangwa se akabiteka, kuko ntabwo byari byegera igihe cyo kuba byahungurwa ngo bisheshwe.

Igihingwa cy'imyumbati ni kimwe mu bihingwa bikunda guhingwa cyane mu Rwanda, kuko gifasha ingo kubona ibyo kurya mu buryo bworoshye, kandi ni igihingwa kiri mu bwoko bw'ibitera imbaraga, rero kiba gikenewe n'abantu kugira ngo babone imbaraga, ndetse ushobora no kukigurisha ukabona amafaranga.

Ubuhinzi bw'inyanya ni kimwe mu bihingwa bigezweho cyane, kubera ko bitanga amafaranga menshi. Gusa na byo birarushya kandi bisaba amafaranga menshi haba harimo ayo kugura imbuto, ayo kugura imiti yo kuzitaho mu gihe zikuze ndetse no kuzisarura na byo bisaba amafaranga menshi.

Umurima w'imyumbati ihinze neza itandukanye kandi itoshye, bigaragara ko yabonye imvura ihagije kandi igakorerwa neza kuko umurima nta n'ikirare cyangwa ibyatsi bidakenewe birimo, bivuze ko uyu murima witaweho neza.

Ibinyomoro ni igihingwa kiri mu bwoko bw'imbuto, ushobora kugikoresha nk'ibyo kurya igihe kimaze gushya cyangwa se ukakigurisha mu gihe uri umuhinzi kugira ngo ubone amafaranga ndetse n'abakeneye kubirya na bo babibone, bagire ubuzima bwiza.

Umuferege utwara amazi. Umuferege ni icyobo baca hagati gicamo amazi, kugira ngo atareka mu murima cyangwa se akaba yakwangiza imyaka. Ni byiza rero gukoresha imiferege ahantu haba amazi menshi kugira ngo itaba yakwangiza imyaka cyangwa se akaba yakwangiza ibikorwaremezo.

Umurima uhinzemo igihingwa cy'amashu. Amashu ahinzwe ku buso bunini, ku buryo ashobora kuvamo umusaruro mwinshi cyane watanga amafaranga menshi kandi atubutse. Imboga ni igihingwa gikunda gukoreshwa cyane, kuko kigira umumaro ku mubiri cyane.

Igishashi cyanditseho amagambo ari mu rurimi rw'icyongereza, aho hari ibiribwa by'inka cyangwa se andi matungo biyongerera imbaraga ndetse no gukura vuba vuba.

Ibikarito bigaragaza imiti y'inyamaswa, imiti ivura inzoka y'inyamaswa isaba ngo iherezwe inyamaswa igihe cyose irwaye, cyane cyane amatungo yo mu rugo, kuko abantu bahita babimenya iyo yarwaye rero aba agomba guhabwa imiti kugira ngo akire.

Icupa ririmo umuti w'inka, uyu muti ufasha kugira ngo amatungo abeho neza biyarinde indwara, ndetse bibe bitayagiraho ingaruka, mu gihe arwaye ahite akira bayahaye uyu muti.

Inkoko ni rimwe mu matungo yororerwa mu rugo, biba bisaba kugira ngo yitabweho atagira ibibazo. Inkoko ifite ibisebe cyangwa se ifite ubundi burwayi biba bisaba ngo ishakirwe umuganga wabihuguriwe cyangwa ubifitemo ubumenyi arebe icyo irwaye, abe yayiha umuti.

Inka irimo kunywa amazi ahantu habugenewe, ikaba ari inka nziza cyane ifite ibara ry'umweru mu gahanga ikaba ifite ahandi amabara y'umukara n'irindi bara rijya kuba ikigina, akaba ari ahantu hasa neza hateguwe ho kunywera amazi.

Icupa ririmo umuti w'inka, ni umuti batera inka iyo ifite ikibazo cy'uburwayi kugira ngo ikire igire ubuzima bwiza, ibyongibyo bigatuma ibasha kubaho neza ndetse igatanga umusaruro uhagije nk'uko biba biteganyijwe.

Icupa ririmo umuti ndetse n'ikindi gikarito byegeranye, bigaragara ko iri cupa ari umuti w'amatungo kuko hashushanyijeho ingurube. Imiti rero ni ingenzi ku matungo kubera ko iyo yarwaye bisaba kuyaha imiti kugira ngo akire, akomeze kubaho.

Umuti w'amatungo, aho bigaragara ko igikarito wavuyemo kiriho amatungo arimo inka, indogobe, ingurube ndetse n'ihene, ibyo byose bivuze ko uyu muti ushobora kuvura aya matungo ukayakiza indwara runaka.

Umuntu uri mu murima urimo gutera imbuto. Umurima yarawutunganyije neza, umeze neza, nta byatsi birimo ndetse nta n'ikirare kirimo. Umurima nta yindi myaka irimo bigaragara ko yawuteguriye guteramo imbuto imwe gusa kugira ngo ari yo izeramo.

Abantu barimo guhinga bakoresheje amasuka. Barimo gutera imbuto mu murima kugira ngo zikure bazasarure. Umurima urimo ibindi bihingwa, ari byo birayi bateyemo mbere yuko bagaruka guhinga.

Umuntu uri mu murima urimo guhinga, umurima arimo guhingamo urimo imyaka itandukanye, yiganjemo ibigori ndetse hakaba harimo n'imyumbati, uyu muntu arimo kuwutunganya kugira ngo azateremo imyaka igihe imvura izaba iguye.

Umwana urimo gutera igiti mu butaka bwatunganyijwe bugakurwamo ibyatsi ndetse bukaba bumeze neza ku buryo buzafasha igiti guhita gikura vuba vuba kigahita kigira umumaro kuko gitewe gikenewe.

Itsinda ry'abantu bafite amasuka barimo guhinga bigaragara ko barimo gukora umuhanda, cyangwa se bakaba barimo gukora umuferege ucamo amazi kugira ngo atazangiza umuhanda. Imihanda ni ikintu cy'ingenzi mu buzima kuko bifasha kugeza ibicuruzwa cyangwa se umusaruro w'ubuhinzi ku masoko, ndetse n'abantu bakayicamo bava ahantu hamwe bajya ahandi.

Umurima urimo urutoki ndetse n'amateke hakaba harimo abantu babiri barimo kuwukorera neza bakuramo ikirare ndetse n'ibindi byatsi bidakenewe mu murima kugirango ukomeze gusa neza ndetse were neza.

Itsinda ry'abantu bagizwe n'abagabo ndetse n'abagore, bari mu murima hari umwe urimo kubigisha uko bakora akarima k'igikoni, akarima k'igikoni kakaba ari ikintu cyiza kubera ko kabafasha kubona imboga mu buryo bworoshye.

Abantu bari mu murima barimo gutunganya kugira ngo bazabone uko bahinga, umurima ukaba usanzwe uhinzemo indi myaka harimo nk'imyumbati ndetse n'ibindi biti, ibi ngibi bituma umurima uba mwiza kugira ngo igihe cyo guhinga nikigera bazahite bahinga nta kibatindije.

Itsinda ry'abantu barimo gufuherera imbuto ziri muri pepinyeri mbere y'uko bazikuramo ngo bazijyane kuzitera mu butaka busanzwe, izi mbuto ziba zigomba kubanza zikitabwaho mbere y'uko ziterwa mu butaka burambuye kugira ngo zikuze imizi.

Umuntu uri mu murima uhinzemo voka, aho afashe kuri voka ebyiri zigaragara ko zaje ku giti, akaba ari voka za kizungu kuko zera zikiri ntoya, zera zireshya n'umuntu, ibyo ngibyo ni byiza cyane kuko bituma zera vuba umuntu akabona amafaranga vuba.

Umuntu wikoreye ibigorigori uri kugenda mu muhanda w'igitaka, bigaragara ko avuye gushaka ubwatsi bw'amatungo aho yari arimo gukora mu murima kuko afite n'isuka muri ubwo bwatsi. Akaba abujyaniye amatungo ye kugira ngo aburye abeho neza.

Umuntu uri guhinga mu murima kugira ngo awutunganye umere neza ube wahingwamo, umurima ukaba usanzwe uhinzemo iyindi myaka igizwe n'imitumba ndetse n'ibigori hakaba harimo n'imyumbati.

Umuntu uri mu murima afite isuka arimo guhinga, mu murima harimo ibigori arimo guhinga kugira ngo ateremo indi myaka izakure ndetse ayisarure abone ibitunga umuryango we ndetse asagurire n'isoko.

Umuntu w'umugabo uri mu murima, urimo guhinga akoresheje isuka, akaba ari nta myenda yambaye ku gice cyo hejuru, umurima akaba arimo kuwutunganya neza, kugira ngo azahite ateramo imbuto, igihe cyo gutera nikigera.

Itsinda ry'abantu batandukanye bari no mu kigero cy'imyaka itandukanye, aho harimo abagore, abakobwa, abasore, abagabo, ndetse n'abana, bafite amasuka barimo gukora umuganda baharura umuhanda kugira ngo use neza.

Umurima w'urutoki aho harimo n'imyumbati. Hakaba harimo abantu babiri barimo kurukorera, bakuramo ibyatsi ndetse baruhingira kugira ngo rumere neza, ruzere ndetse rugire ibitoki byiza kandi binini.

Abantu barimo guhinga mu rutoki, ruhinzemo n'ibigori. Urutoki ni ibihingwa biba birimo insina zera zikeraho ibitoki. Zikaba ari ibiribwa bikoreshwa cyane cyane mu mago y'abantu.

Umurima w'imyumbati aho bigaragara ko imyinshi yari yakuwe irimo gusarurwa. Kugira ngo ijyanwe ku isoko abayihinze babone amafaranga. Ndetse n'abayishaka kuyigura bayibone. Bajye kuyirya bo n'imiryango yabo.

Itsinda ry'abantu bari mu murima barimo guhinga. Barimo gutunganya umurima bakoresheje amasuka kugira ngo igihe cyo kubitera nikigera bazahite bashyiramo imbuto nuko bategereze igihe cyo gusarura babone umusaruro nkuko babyifuza.

Umuntu urimo gutegura umurima, umurima ukaba usanzwe urimo ibindi bihingwa harimo nk'amateke, ndetse n'insina, hakaba hari n'ibiti ku ntangiriro z'umurima, uwo muntu arimo gutegura uyu murima kugira ngo azahite ateramo imyaka igihe cy'ihinga nikigera.

Abantu barimo kubaka akarima k'igikoni. Barimo gukoresha isuka, itaka ndetse n'utudeyi. Hakaba hari ibiti bashinze ku ruhande kugira ngo bifate ibyo bideyi. Akarima k'igikoni gahingwamo imboga.

Umuntu urimo gutunganya umurima wo guhingamo. Umurima kugira ngo utunganywe, bisaba kuba ufite ibikoresho birimo isuka, cyangwa se witwaje ibindi bintu. Kugira ngo rero uzawuhingemo, ni uko ugomba kubanza ukawukora neza, ukitegura igihe k'ihinga.

Umugabo urimo gusarura ibishyimbo byakuze bifata ku biti, ibi ni ibishyimbo biri mu bwoko bwa mushingiriro aho kugira ngo byere bisaba kubishingirira ibiti bikabikura bibyizengurutsaho kugeza igihe bisaruriwe.

Ibigori birambitse hamwe birunze, hirya yabyo hari imifuka y'ibindi bigori byamaze guhungurwa, ibigori ni bimwe mu biribwa ndetse ikaba ari n'imyaka ishobora guhunikwa igihe kinini mu gihe ifashwe neza ndetse ikabikwa neza ikarindwa ibyonnyi.

Abantu benshi bari kumwe barimo gutunganya umusaruro wabo w'ibigori kugira ngo ubikwe neza utazagira ibibazo byo kuba wamungwa cyangwa se ngo wangirike mu bundi buryo bitewe n'ubukonje bwinshi.

Itsinda ry'abantu barimo gusarura ibigori. Ibigori barimo kubihambira neza babishyira ku biti, kugira ngo byume bigirwe neza bizahungurwe bimaze kuma neza. Ibigori iyo bimanitse neza, bituma biririndwa indwara zishobora kubyangiza, bigatuma umusaruro wabyo uba mubi.

Ibitebo birimo inyanya nyinshi cyane zihiye nziza cyane, ku buryo uzirebesha amaso ukabibona ko ari nziza, ndetse hari urujya n'uruza rw'abantu baje gucuruza inyanya ndetse n'abaje kuzigura, abashaka amafaranga ni abazanye inyanya, ndetse hari n'abandi baje kuzigura kugira ngo bazitware mu ngo iwabo.

Abantu barimo gusarura umuceri, nyuma yo kuwusarura barimo kuwanika ku mahema, bagategereza ukuma neza, kugira ngo bawushyire mu mifuka, bawujyane kuwutonora Kuko bisaba kuwucisha mu ruganda ruwutonora mbere y'uko ujyanwa ku isoko.

Abantu barimo guhungura ibigori, ibitiritiri bakabishyira uruhande rumwe, ndetse n'intete bakazishyira mu mifuka, kugira ngo zibikwe neza zitazangirika. Ibigori bisaba kugira ngo bibikwe ahantu hameze neza, hadakonje, kugira ngo bitazamo uruhumbu cyangwa se bikaba byakwangirika mu bundi buryo.

Imifuka irimo imyaka ihunitse kugira ngo ibikirwe kuzakoreshwa mu gihe kizaza. Imyaka iyo imaze gusarurwa ni byiza kuyishyira mu bintu bisa neza ndetse biyirinda, ubundi ukayibika ahantu hameze neza hatazatuma yangirika.

Avoka ni imbuto zera ku giti zikaba ziribwa, bisaba kugira ngo uyihanure ubundi uyitare, nyuma y'iminsi nk'ibiri cyangwa itatu igashya ubundi ukayirya, ukuraho igishishwa warangiza ukarya ik'imbere ikibuto cyomo imbere ukakiyijugunya gusa ikibuto cyo mu imbere gishobora kwifashishwa kugira ngo cyongere giterwe kizereho izindi voka.

Amafu y'akawunga atandukanye aho abitse kugira ngo atazangirika, ibi ni bimwe mu musaruro uva mu bigori aho utunganywa ukaba wapakirwa neza ukabikwa ahantu mu gihe utegereje kujyanwa ku isoko.

Ibishyimbo ni ibihingwa bigira umumaro cyane cyane nk'ibiribwa, kuko biribwa n'abantu hafi ya bose, gusa iyo ubihinze ntibibone imvura ihagije birapfa bigatuma bitera neza, nuko ukabona umusaruro mukeya.

Urujya n'uruza rw'abantu bikoreye ibitebo abandi babirambitse hasi, birimo inyanya bigaragara ko ari abaguzi ndetse n'abacuruzi bagurisha n'abagura inyanya, bamwe bakaba bazishaka abandi bazije kuzicuruza kugira ngo babone amafaranga.

Ibisheke ni bimwe mu bihingwa bimeze nk'ibiti biba bigizwe n'ingingo ndetse n'amababi ameze nk'ibyatsi. Ibisheke biraryoherera ku buryo iyo ukiriye amazi akivamo aba ameze nk'isukari, ibindi ukabicira.

Umuhanda w'igitaka ariko unyuzemo ibyatsi, uri hagati y'ibiti bya gereveriya binini kandi birebire cyane ku buryo byagiye hejuru bigahuza amashami, umuhanda ugasigaramo munsi yabyo.

Umurima urimo imyaka myinshi itandukanye, aho higanjemo amateke n'urutoki, hakaba harimo n'imboga. Bigaragara ko ari umurima w'umuntu, afitemo imyaka myinshi, imufasha mu rugo, kugira ngo abashe kubona ibyo agaburira umuryango we.

Umurima w'urutoki umeze neza urimo insina nyinshi kandi zisa neza, harimo n'imyumbati. Uyu murima ni umurima rwose w'icyitegererezo kuko ukoreye neza ndetse ufite isuku. Bikaba bigaragara ko wera neza kandi ugize umumaro cyane.

Igiti kimeze nk'ururabyo giteye mu mbuga ni kimwe mu bintu bituma ahantu hasa neza. Ibiti kandi bifasha mu gukora imvura ndetse bigafasha no mu kuba byavamo ibikoresho by'imbaho, harimo nk'intebe, inzugi ndetse n'ibindi.

Umurima w'urutoki ugezweho. Umurima uhinze neza ku buryo insina zose ziri ku murongo kandi zisa neza zishariye, ndetse bigaragara ko witabwaho mu buryo bwose bushoboka kugira ngo utange umusaruro uhagije kandi mwiza.

Imigwegwe ni bimwe mu biti abantu bahinga kugira ngo bayifashishe mu gukora ibintu bitandukanye, bimwe mu byo imigwegwe ikora harimo ibiseke, imikeka ndetse no kuboha ibitebo n'ibindi bintu bishobora gukoreshwa mu mago.

Imboga rwatsi zihinze inyuma y'inzu, bigaragara ko zakuze zikarenza urugero kuko zarabuye zitaribwa, izi mboga ntabwo zitaweho neza kubera ko igihe zakuraga zagombaga kwitabwaho ntizikurukumbe ngo zirenze urugero.

Ibisheke birambitse ku giti. Ibisheke ni ibihingwa bijya kumera nk'igiti. Uhekenya ugakuramo amazi aryohereye ameze nk'isukari. Ibisheke bitera imbaraga ndetse ushobora kukirya ufite inyota ikaba yashira.

Ibiti ni kimwe mu bintu by'ingenzi, cyane cyane ibiti biba bikomeye nk'inkurusi. Inturusi ni bimwe mu biti bikomera cyane kuko bishobora kwifashishwa mu kubaka, mu kubaza, ndetse bigakoreshwa n'ibindi bintu byinshi harimo nko kuba byacanwa, nk'ibicanwa.

Igiti cy'imicunga gifite imicunga myinshi, myiza, itoshye, kandi imeze neza, bigaragara ko yeze kuko yahinduye ibara iva kuba icyatsi iba umuhondo. Imicunga ni imbuto ziryoha kandi zigira intungamubiri nyinshi.

Urutoki ni rumwe mu bihingwa bigandura urugo mu buryo bw'imirire ndetse no mu buryo bwo kubona amafaranga kuko urutoki rushobora kwera ukagurisha cyangwa se ukabijyana mu rugo bakabirya. Rero ni byiza kuba ufite umurima w'urutoki, bifasha kugira ngo urwanye inzara n'ubukene mu rugo rwawe.

Ubuhinzi bw'imboga n'imbuto, ni kimwe mu bintu abantu bashishikarizwa kugira ngo bagire imirire myiza, bibarinde indwara ndetse bitume bakura neza. Umwana uriye neza akiri muto bituma agira ubuzima bwiza, bikazamurinda kurwaragurika mu buzima bwe bwose, rero ni byiza gukoresha imboga n'imbuto kugira ngo bibashe kugerwaho, ibyo byose.

Umurima mutoya urimo insina z'urutoke ndetse n'ipapayi, ipapayi ni urubuto ruba rusamo umuhondo imbere, ese rukaba ruba rufitemo imbuto n'igishishwa cy'inyuma cy'icyatsi mu gihe ritarashya, naho insina na zo zera ibitoki.

Umurima urimo urutoki ndetse n'ibindi bihingwa byinshi bigaragara ko bivangavanze. Umurima udafite isuku kuko harimo ibyatsi byinshi, bitabagaye ndetse harimo n'ibindi bintu bidakenewe kuba biri mu murima.

Umurima urimo ibihingwa bitandukanye aho harimo ibigori, imbuto nk'imiyembe ndetse n'urutoki, hakaba harimo n'igiti cy'umugwegwe gishobora kwifashishwamo nko kuboha ibiseke, imikeke ndetse n'ibindi bintu bitandukanye bikoreshwa mu rugo.

Ibiti ni bimwe mu bintu by'ingirakamaro kuko ibiti bishobora kubyara umusaruro mwinshi, aho bimwe bikoreshwa nk'imiti, ibindi bigakoreshwa nk'inkwi ndetse hari n'ibikoreshwa mu bubaji, aho bishobora kuvanwamo ibikoresho byo mu rugo ndetse n'ibyo gukoresha ahandi hantu hatandukanye.

Umurima urimo imigozi y'ibijumba yatabiwe kugira ngo niyera izakurwe babijyane mu isoko babone amafaranga, ndetse bakuremo n'ibyo kurya, hakaba harimo n'ibindi biti bihenzemo aho ngaho ndetse hakaba harimo n'insina.

Ubuhinzi bw'imboga n'imbuto ni ibintu bifasha abantu benshi cyane, kubera ko bituma babona imboga hafi ndetse n'imbuto zirimo avoka bitabagoye, imboga rwatsi zifasha umuntu gutuma areba neza ndetse zikongera na vitamine nyinshi mu mubiri.

Umurima uhinzemo imigozi y'ibijumba aho uri ahantu hatameze neza hari ibiti byinshi umurima udakoreye neza mu buryo bugaragara, rero ni byiza gukorera umurima ugakuramo ibiti ndetse ugakuramo n'ibyatsi byose bidakenewe.

Umuntu uri mu murima w'inyanya, afite ipombo ndetse n'ikidomora ahetse kirimo umuti w'inyanya arimo kugenda afuherera kugira ngo azirinde kuba zaribwa n'utwonyi dutera indwara mu nyanya.

Abantu benshi barimo gukora akarima k'igikoni aho bari barimo guteramo imboga kugira ngo bihaze mu biribwa. Imboga ni ikintu cyiza cyane ku mibereho y'abantu kuberako zigira intungamubiri nyinshi zikenerwa n'umubiri w'umuntu.

Igiti cya avoka kikirimo voka ntoya zitarera. Voka bidusaba igihe kitari kinini cyane kugira ngo zere, gusa na none kitari gitoya. Rero avoka bisaba kuzitera ugategereza igihe kugira ngo uzatangire kuzisarura.

Umurima w'amashu ameze neza asasiye kandi atangiye kwera. Hakaba hari umuntu uyari iruhande bigaragara ko ari umuhinzi waje gusura umurima we kugira ngo arebe uko umeze. Bigaragara ko azatanga umusaruro mwiza kandi uboneye.

Urusenda ni kimwe mu bihingwa bitanga amafaranga ariko rukaba rudahingwa ku buso bunini nk'uko byakagombye kugenda kuko ruhingwa n'abantu bakeya kandi abenshi bihingira urwo kurya. Urusenda ni kimwe mu bintu bitera appetit cyane cyane ku bantu barumenyereye.

Intoryi ni igihingwa kibarirwa mu mboga, gishobora guhingwa mu butaka, kigakura ndetse kikera cyane, intoryi ni ibiryo byiza kuko bifasha umubiri kugira intungamubiri nyinshi zirimo izituma umuntu atarwaragurika ndetse n'izituma umuntu akura akagira ubuzima buzira umuze.

Umuntu arimo gusasira inyanya zihinze, mu murima ndetse harimo n'ibigori bitangiye guheka. Inyanya ni kimwe mu bihingwa bigira umumaro munini, kuko n'ababihinga binjiza amafaranga menshi kandi bigira n'akamaro iyo bitetse mu mboga bisa neza cyane.

Ubusitani burimo ubwatsi bwa pasiparama ndetse n'indabyo bifasha gutuma ahantu hasa neza kugira ngo abantu bahareba babone ko hameze neza kandi hakorerwa isuku, ni byiza rero gutera indabyo kuko zituma mu rugo hamera neza cyangwa se ahantu aho ariho hose ziteye haba ari ku kazi cyangwa se ku mihanda.

Umurima wa karoti urimo karoti nyinshi zitaragera igihe zo kuba zasarurwa, karoti ni igihingwa cyiza kiba gitukura, iyo ugisaruye kikaba cyerera munsi y'ubutaka kikaba gikoreshwa n'imboga mu guteka.

Abantu benshi bari hamwe, aho hari ibiti byinajijwe mu duhoho twabyo mbere y'uko bijyanwa guhingwa, aho byagenewe guhingwa ibi ngibi bikorwa kugira ngo ibiti bimanze bifate imbaraga ndetse bigire imizi ikomeye ibasha gukurura amazi.

Indabyo ziteye hakurya y'umuhanda zimeze neza, indabyo ni ikintu cyiza cyane kuko gituma ahantu hasa neza, kandi zishobora gukoreshwa n'inzuki kugira ngo zitare zikore ubuki bugira umumaro munini cyane mubuzima bw'abantu.

Itsinda ry'abantu bari mu murima w'ibinyomoro. Ibinyomoro ni bimwe mu mbuto zigurwa cyane kandi zigira umumaro ku mubiri munini kuko zishobora kongera amaraso ndetse zigahereza umubiri vitamine nyinshi z'ingenzi ukenera kugira ngo umuntu abeho neza.

Umurima urimo imboga rwatsi, ndetse n'uw'ibigori, hirya yawo hakaba harimo n'amateke. Imboga ni kimwe mu bihingwa bifasha mu rugo, kubera ko byongera vitaminini ku mubiri w'umuntu, ndetse bigafasha umuntu gukura neza, atarwaragurika.

Umuhanda w'amabuye ukoze neza, kandi usa neza, ukikijwe n'indabyo bigaragara ko ari umuhanda ukomeye kandi ugendwa, ukaba ufite umumaro kandi ukomeye, bikaba bigomba kuba bifite icyo bimaze ku baturage bahatuye, ndetse n'abahaca.

Igiti cy'amapapayi gifite amapapayi menshi manini kandi meza abonereye ijisho. Ipapayi rigiramo imbuto imbere ndetse rikaba rifite n'igice cy'umuhondo cyo barya. Ipapayi rigira vitamine nyinshi ndetse rikaba rifasha umwana gukura neza ndetse n'abantu bakuru bikabafasha kurinda indwara.

Ubuhinzi bw'indabyo ni kimwe mu bikorwa bitanga amafaranga nubwo abantu benshi batabikora kinyamwuga. Abantu benshi bahinga indabyo mu ngo zabo kugira ngo hase neza ndetse abantu bahaza babone hameze neza, bahishimire. Indabyo ni ikintu gishobora gutanga amafaranga mu gihe ubikoze by'umwuga, ukajya uzigurisha, ukaba wazijyana no hanze y'igihugu.

Pavuro ni bimwe mu bihingwa bikunda guhingwa ahantu haboneka amazi menshi nko mu bishanga, bikaba bisaba kugira ngo uzisasire, ziba ari icyatsi, ndetse baziteka mu mboga kugira ngo zise neza zinahumure neza.

Amabafu abiri imwe irimo amatunda avanze n'ibinyomoro, ibafu ya kabiri irimo voka, bikaba byose ari imbuto ziribwa kandi zifitiye umubiri akamaro, kuko zifasha kongera ubudahangarwa bw'umubiri.

Umurima uhinzemo igihingwa cy'imyumbati ku murongo, ni imyumbati ihinze neza mu buryo bugaragara ko ari ubwa kijyambere kubera ko ihinze ku murongo kandi harimo intera ihagije. Bikaba bigaragara ko izera kandi ikera neza mu buryo bushimishije.

Igiti cya avoka. Kirimo voka zigeze mu gihe cyo kuba zakwera. Ni avoka nziza, zimeze neza ndetse bigaragara ko zishobora kuba zifite umusaruro mwiza cyane. Avoka ni urubuto rwiza kuko rugira akamaro kandi rushobora no kongerera umuntu apeti udashobora ubundi kurya cyane cyangwa se kurya neza.

Imboga rwatsi zihinze mu karima k'igikoni kari mu mbuga, imboga zifasha abantu kubona ibyo kurya byoroshye kuko ni kimwe mu bintu ukoresha mu gihe ufite uburisho, ugateka imboga zo kuburisha.

Avoka ndetse n'inyanya bitanditse, bigaragara ko ari umuntu wabizanye kugira ngo abicuruze, habone abandi babikeneye bamuhe amafaranga na we ayakoreshe ibindi akeneye kugira ngo yiteze imbere.

Karoti ni igihingwa gihingwa cyane cyane ahantu haba amazi cyane kubera ko gikenera amazi menshi. Akaba ari kimwe mu byo kurya bishobora gutekwamo imboga ndetse bikazigira neza cyane bigatuma zisa neza ndetse zikanaryoha.

Imbuto ni bimwe mu biribwa bikunda kuribwa n'abantu benshi. Imbuto zirimo ibinyomoro, zikabamo amatunda, ni imbuto zigira umumaro cyane mu gukura k'umwana ndetse no kugira ubuzima bwiza ku bantu bakuru kuko zifitemo vitamine.

Ubutaka buhinzeho ibiti hatarimo indi myaka, bigaragara ko atari ubutaka bwiza bwo guhinga kuko harimo amabuye menshi kandi nta n'ifumbire igaragara irimo. Byanze bikunze ushyizemo imyaka ntabwo yakwera neza.

Amapapayi ni igihingwa cy'imbuto kigira uburyohe budasanzwe, kuko abantu bagikunda kandi kiba gifite n'intungamubiri nyinshi. Ipapayi rishobora gutuma umuntu akura neza ndetse akagira ubuzima bwiza, ntarwaragurike.

Imbuto nyinshi ziri hamwe. Ziganjemo ibinyomoro, hakaba harimo amatunda, hakaba harimo wotameroni ndetse n'imicungo. Byose byazanywe mu isoko kugurishwa kugira ngo banyirabyo babizanye, babone amafaranga ndetse n'abaje kubihaha babibone.

Karoti ni kimwe mu bihingwa bihingwa mu bwoko bw'imboga bikaba bikoreshwa mu guteka ibyo kurya ndetse bikaba wanabikoresha ukora ibindi bintu, bikaba bishobora no kugurishwa ku isoko umuntu akaba yabona amafaranga yo gukoresha ibindi bintu bikenera amafaranga.

Ibiti by'ubwoko butandukanye harimo ibitaribwa ndetse n'ibiribwa, hakaba harimo igiti cyera imbuto z'amapera, imbuto z'amapera ni bimwe mu bintu abantu bashobora gukoresha mu kugira ngo babone amafaranga mu gihe byeze babijyana ku isoko bakabigurisha bakabona amafaranga.

Abantu barimo gusarura ibihingwa bihinze mu murima kugira ngo babashe kubona umusaruro wabyo bawujyane ku isoko, babone amafaranga ndetse n'abaje kugura babone ibyo bashaka kugira ngo bajye kubikoresha mu ngo zabo.

Inzu yubatse neza ifite irangi ry'umweru ndetse n'umukara isakaye mu buryo bugezweho. Hakaba hari ipapayi impande yayo rirerire cyane. Bigaragara ko rishobora kuba rimaze igihe kinini kandi rikaba rikuze cyane.

Imbuto ziri mu tudeyi aho hari ibinyomoro ndetse n'amatunda. Ibinyomoro ni zimwe mu mbuto zongera amaraso kandi zikagira intungamubiri nyinshi zirimo vitamini naho amatunda yo ni imbuto zikunda kutaboneka ahantu henshi ariko igihe wazishatse mu masoko ziraboneka cyane.

Ubusitani burimo indabyo nziza ndetse n'ibiti, aho ibiti bizengurutse ibyatsi birimo pasiparamu, ndetse hakaba hari n'agahanda gaciye hagati y'izo ndabyo abantu banyuramo barimo kugenda.

Imbuto z'ibinyomoro ni kimwe mu bihingwa bigira isoko cyane kuko bikundwa n'abantu benshi, kandi imbuto muri rusange zikaba ari ibiryo by'ingenzi cyane kuko bigira umumaro mu mubiri, harimo kugira vitamine ndetse no kongera amaraso mu mubiri w'umuntu.

Isoko ry'imbuto nyinshi ziganjemo imineke, imyembe, amatunda ndetse n'ibindi byazanywe kugira ngo bigurishwe ba nyirabyo babone amafaranga, babasha gukoresha ibindi bintu bakeneye ndetse n'abakeneye imbuto nabo bazibona.

Umurima urimo igihingwa cya karoti. Karoti ni zimwe mu mboga zihingwa, kugira ngo abantu bazigurishe cyangwa se bazikoreshe mu rugo, mu buryo bwo kuziteka. Zigira intungamubiri nyinshi ndetse na vitamini.

Umurima urimo indabo z'ubwoko butandukanye ukaba uzitije izindi ndabyo zikura zigakora uruzitiro runini. Hagati muri zo hakaba harimo igiti cy'ipoto bigaragara ko ari icy'amashanyarazi, gitwara umuriro kiwuvana ahantu hamwe kiwutwara ahandi.

Imbuto zitandukanye ziri ahantu hamwe bigaragara ko zagiye kugurishwa higanjemo imiyembe, amatunda, ibinyomoro ndetse n'imicunga, birimo kugurishwa kugira ngo babone amafaranga ndetse n'abaje kubihaha babone ibyo batwara mu mago yabo.

Umurima urimo karoti ndetse n'imboga rwatsi, hakaba harimo amapapayi n'izindi mbuto. Ibyo ngibyo byose ni ibintu by'ibyo kurya bifasha abantu kugira ubuzima bwiza kuko imbuto zifasha abantu kubona vitamine ndetse n'imboga na zo zigafasha abantu gukura neza.

Umurima uhinzemo imyaka ndetse urimo n'agatapu k'amazi. Agatapu k'amazi karafunguye karimo gufuherera hirya no hino kuhira imyaka. Kuhira imyaka ni kimwe mu bikorwa bituma imyaka igira umusaruro mwiza mu gihe izuba ryavuye ari ryinshi.

Umuntu urimo gufuherera cyangwa se kuhira imyaka bigaragara ko ari imboga; imboga ni kimwe mu bintu by'ingenzi cyane kuko bitanga ifunguro ryujuje ibyangombwa kuko rigira vitamine ndetse bikaba byafasha n'umubiri kugira ibindi bintu byinshi wunguka.

Umuntu urimo gusasira amashu. Imboga zikoreshwa n'abantu benshi kubera ko zigira intungamubiri ndetse zikaba zifite umumaro mu mirire y'umuntu mu buzima busanzwe. Ni byiza rero kwita ku mboga kubera ko ni nziza cyane kandi zirera, zikanera neza.

Gusukira ni kimwe mu bintu by'ingenzi mu buhinzi, kuko amazi aba akenewe cyane cyane mu gihe imvura idahagije, ibyo bituma umusaruro ukomeza kuba mwinshi hatitawe ko imvura itari ihagije.

Amazi atemba ni kimwe mu bintu by'ingirakamaro mu buhinzi, kuko yifashishwa mu kuhira cyangwa gufuhera imyaka mu gihe izuba ryabaye ryinshi imvura ntiboneke ihagije kugira ngo ibashe guhaza imyaka maze yere neza.

Abantu barimo gusukira nyuma yo guhinga umurima, umurima bahinze uragaragara ko barimo kuwutegura kugira ngo bazateremo imyaka, bakaba babanje gushyiramo amazi kugira ngo babitegure, nibateramo imbuto izahite imera ikure vuba vuba.

Umurima uhinzemo ibigori ku buso bunini, aho bakoresha ikoranabuhanga rigezweho mu kubifuherera, cyangwa se mu kubyuhira, abandi babyita kubisukira, ibigori bikaba ari rimwe mu ikoranabuhanga mu buhinzi rikoreshwa, kugira ngo haterwe amazi ku myaka igihe izuba ryabaye ryinshi.

Amazi ari ku ihema ndetse n'imashini ifasha mu kuhira imyaka. Kuhira imyaka ni kimwe mu bikorwa bituma imyaka yera neza ndetse igatanga umusaruro uhagije mu gihe imvura yabonetse idahagije, ndetse bigatuma n'umusaruro uba mwiza ba nyirayo bakagira amafaranga avuyemo ahagije.

Ikibuga cy'umupira kirambuye neza, giteye neza kirimo ubwatsi ku buryo umuntu aramutse aguyemo atapfa gucika ibisebe. Ikibuga gifasha abantu gukora siporo ndetse no kwidagadura bakiniramo umupira, bikaba bishobora kuvamo n'impano kuko ushobora kugutunga.

Ubutaka burambuye burimo utwatsi dutoya, bugaragara ko ari bwiza kuba bwakoreshwa ubuhinzi, cyane cyane ubuhinzi bwifashishije ikoranabuhanga, kuko bisaba ahantu heza harambuye, hatari imisozi ndetse hatarimo n'amabuye menshi manini, ibyo ngibyo bituma ubuhinzi bukorwa vuba vuba, kandi bukihutishwa cyane bugatanga umusaruro.

Ubutaka buteguwe kugira ngo bazabuhingemo igihe cy'ihinga nikigera. Bisaba kugira ngo ubutegure neza maze imvura nigwa uhite ushyiramo imbuto bitagutwaye igihe kinini kuko igihe gishobora kugusiga ntuzabone uko uhinga neza.

Ubutaka buriho ibimera bitandukanye byiganjemo ibiti, imyaka, intoki ndetse n'amazu. Akaba ari ahantu hameze neza hasa n'aho ari aho gutura ndetse wahakorera n'imirimo y'ubuhinzi igatuma hera cyane.

Ubutaka buhinzemo ibihingwa bitandukanye ndetse mu duce tumwe hakaba hagiye harimo n'amazu atuwemo n'abantu. Ibi ngibi bishatse kuvuga ko hari abantu benshi batunzwe n'ubuhinzi muri aka gace ndetse hari n'ahari ibiti byo kuba wakoresha imirimo itandukanye.

Ubutaka buhinzeho ibiti by'amoko menshi higanjemo inturusi. inturusi ni bimwe mu biti bikora bikaba birebire cyane ndetse bikaba byakwifashishwa, mu bintu bitandukanye harimo nko kubaza intebe, imeza, inzugi, cyangwa se ukaba wabikoresha nk'inkwi.

Imisozi ihinzeho icyayi ndetse hakurya yacyo hakaba hari ibiti by'inturuse. Ibiti bishobora gukoreshwa mu kubaza ibikoresho by'ububaji, harimo inzugi, imeza, intebe ndetse n'ibindi byinshi. Naho icyayi cyo ni ikintu kigurishwa cyane.

Umurima urimo imyaka myinshi itandukanye, aho harimo ibigori, amasaka, ibishyimbo ndetse n'ibitoki, bikaba ari byo byiganje, akaba ari umurima w'umuntu yahinzemo kugira ngo azagire ibyo akuramo agire icyo abimarisha.

Umugezi ni ikintu k'ingenzi kuko utanga amazi ashobora gukoreshwa mu bintu byinshi, harimo kuba yakoreshwa yuhira imyaka mu gihe izuba ryabaye ryinshi cyangwa se amazi akaba yakoreshwa mu rugo gukora imirimo itandukanye.

Ubutaka buriho ubwatsi bwinshi gusa budafiteho ibiti, bigaragara ko aha hantu hakenewe ibiti kugira ngo bibe byaharinda mu gihe haje amazi menshi abe atahatera isuri kuko nta biti bihari ndetse, ni ubutaka busa naho buri ahantu hahanamye.

Igishanga gihinzemo imyaka bigaragara ko ari umuceri, umuceri ni igihingwa gitanga amafaranga ndetse kikaba gikoreshwa no mu kurya, umuceri utanga amafaranga kuko iyo uwujyanye ku isoko uragurwa cyane kandi ugura ku giciro cyiza.

Ibyuzi biri mu gishanga bigaragarako ari ahantu hahingwa hakaba hahingwa umuceri, hakaba harimo n'ibiti bya geriveriya bishobora kwifashishwa mu kubaza cyangwa se mu bwubatsi, hakaba hari n'indabyo nziza cyane zigaragarako zisa neza.

Ubutaka bukozeho amaterasi y'indinganiro atuma ubutaka budatwarwa n'isuri. Igihe imvura iguye ari nyinshi ibi ngibi bituma ubutaka bukomeza bumeze neza ntibugire ikibazo cyo kuba bwagira isuri bitewe n'ayo mazi atemba aca hejuru yabwo.

Ubutaka butunganyijwe neza, aho bitegura guhingamo ibihingwa kugira ngo imvura nigwa bazahite bashyiramo imbuto, ni byiza rero gutegura ubutaka mbere y'igihe kugira ngo imvura nigwa utazatwara igihe cyinini, uzahite uhinga bizererere igihe.

Inka ni itungo ryo mu rugo ritanga amata ndetse rikaba ritanga n'ifumbire, amata y'inka ashobora kunyobwa n'abo mu rugo kugira ngo babashe kugira ubuzima bwiza, kuko harimo intungamubiri nyinshi zituma umuntu akura neza ndetse akagira ubuzima bwiza.

Itsinda ry'abantu bahagaze hamwe, harimo abasore ndetse n'abakobwa, bafite inkwavu mu ntoki, bari imbere y'ibiraro by'inkwavu, bigaragara ko ari aho zororerwa, bakaba ari abantu bishyize hamwe, kugira ngo bateze imbere ubworozi bw'inkwavu.

Inka ni rimwe mu matungo meza cyane agira akamaro gakomeye kubera ko ituma umuntu ashobora kugira umusaruro mwinshi kandi mwiza mu gihe yakoresheje ifumbire yayo ikindi itanga amata menshi kandi agira umumaro kuko afasha mu kurinda indwara ndetse n'imirire mibi.

Ingurube iri mu kiraro cyayo, ingurube ni inyamaswa ikunda kuba nini ndetse yabyara ikabyara ibyana byinshi, rero ibyo bituma yororoka vuba ikaba yagwira zikaba nyinshi mu gihe kitari kinini cyane.

Inka iri mu kiraro cyayo cyubakishije ibiti ndetse n'ibyondo, ikaba izirikishije umugozi mu ijosi ryayo, ikaba irimo kurya ibyatsi yahawe birambitse hasi ku butaka aho irara.

Ubworozi bw'inkoko ni kimwe mu bintu bigezweho, kuko zitera amagi kandi zigatera buri munsi, ibyo ngibyo bituma abazoroye babona amafaranga, kandi bakayabona buri munsi, bibafasha kwiteza imbere, ndetse bakagura imishinga yabo.

Itsinda ry'abantu batatu bahagaze imbere y'ibiraro by'inkwavu, akaba ari ahantu bororera inkwavu, kugira ngo babone amafaranga cyangwa se bagire ikindi bazikoresha. Inkwavu ni bimwe mu matungo yororwa, akororoka vuba kuko zibyara igihe gitoya, kandi zikabyara ibyana byinshi.

Ihene iziritse amaguru abiri y'imbere bigaragara ko yari yajyanywe mu isoko bari kugira ngo itabarushya yirukanka. Ihene ni inyamaswa yo mu rugo ishobora gutungwa ikaba mu rugo hamwe n'abantu, ndetse ikaba yabafasha mu gihe bakeneye n'amafaranga bakayigurisha bakabona ayo mafaranga bakayakemuza ikibazo bari bafite.

Inka y'imbyeyi y'inzungu iri mu bwoko bugezweho. Irimo kurisha aho irara. Ikaba yagaburiwe ubwatsi ndetse ikaba ifite isuku bigaragara ko yitabwaho neza, ikaba itanga n'umusaruro uhagije.

Umuntu urimo kugaburira ihene, ihene aho iziritse ku giti akoresheje umugozi, arimo kuyigaburira ibyatsi birimo ibishishwa cyangwa se ibishyimbo bakuyemo ibyo guteka, ibi ngibi ni ibyo baba batonoyemo ibyo bateka, hagasigara ibyatsi gusa.

Abantu benshi bari hamwe, barimo kureba ingurube ntoya, bigaragara ko ari ibyana by'ingurube bikiri bitoya bitarakura, baje kugurisha cyangwa kugura, bakaba babyorora bigakura bikaba binini ndetse bikororoka bikabasha gukuramo amafaranga.

Ingurube nyinshi ziri mu kiraro cyazo, ni utugurube dutoya tutarakura aho turimo kurererwa kugira ngo tuzakure dukurwemo amafaranga menshi cyangwa se tube twabyara tubyare izindi nyinshi zagurishwa zikabyibamo amafaranga menshi.

Ubworozi bw'inkoko ni bumwe mu bintu bigezweho kubera ko ntago zisaba ibintu byinshi harimo nko kuzigurira ibyo kurya, kuzitungira ahantu hubatse neza mu buryo bugoye ntago biba ari ngombwa kubera ko zishobora kwitorera ndetse zikaba ahantu haciriritse.

Inyana ifite amabara y'umweru ndetse n'ayandi ajya kuba igisa ikaba ari inyana nziza nubwo ifite umwanda kuko ntago yahanaguwe ngo ikorerwe isuku mu buryo bukwiye, rero ni byiza kwita ku nyamaswa mu gihe ari amatungo tworoye kugira ngo agire ubuzima bwiza.

Umugore ufashe ihene mu kiziriko ebyiri, izi hene zikaba zirimo kurya ibitonore by'ibishyimbo, aho arimo kuziragira, ihene ni amatungo yo mu rugo ashobora kugira akamaro kenshi cyane kandi akaba atarushya kuyatunga, rero ni byiza kuba wabasha gutunga ihene kuko zigira umumaro.

Uruhuri rw'abantu benshi bari kumwe mu itsinda rimwe bamwe bakaba bafashe ihene, aho ziri mu biziriko bigaragara ko baje kugurisha cyangwa se bakaba ari itsinda ryagabanye ihene.

Inkoko y'isake ifite amabara y'umutuku ndetse n'ay'umukara. Inkoko ni rimwe mu matungo yo mu rugo adahenze kandi agira umumaro. Kuko inkoko ishobora gutanga amafaranga mu gihe igurishijwe cyangwa se ikaba yakurwamo ibyo kurya mu gihe itetswe.

Abantu bari ahantu hamwe, harimo abagabo ndetse n'umugore ufite umutaka ndetse akaba ahetse n'umwana. Hakaba hari inka zirimo kurisha bigaragara ko ziragiwe aho ngaho, niba atari isoko baje kuzigurishamo.

Ihene ziziritse hamwe ari ebyiri, zikaba zizirikishije umugozi, ziziritse ku biti byubatse neza nk'aho hari ikiraro cy'amatungo, hakaba hari umuntu imbere yazo wambaye imyenda y'ubururu ndetse n'inkweto zifunguye.

Inyana ni itungo ribyarwa n'inka ushobora korora rigakura rikagera igihe cyo kuba ryabangurirwa na ryo rikazabyara indi. Rishobora kugufasha kwiteza imbere kuko rishobora kugurishwa cyangwa rikaguha ifumbire ukoresha mu buhinzi bwawe.

Ingurube ni imwe mu matungo yo mu rugo, ashobora gutugwa mu buryo bworoshye cyane kubera ko adasaba kuyubakira inzu nziza zo kubamo cyangwase kuyishakira ibyo kurya bihenze, rero ushobora kuyikoresha nk'igikoresho gituma uzamura iterambere ryawe.

Ingurube ni itungo rigufi rishobora kororerwa mu rugo cyangwa se rikororerwa ku ifamu yabigenewe. Ingurube ikoreshwa mu gihe abantu bakeneye inyama cyangwa se ukaba wakura ifumbire aho iba kuko ikora ifumbire nyinshi cyane.

Intama ni imwe mu nyamaswa zitonda cyane kuko ntabwo igira ibintu byo kona cyangwa se ngo ibe yakora ibintu bibi, intama ishobora gutugwa mu rugo ikaba yavamo inyama cyangwa se ikaba yagurishwa hakavamo amafaranga yo gukoresha mu rugo, cyangwa se ikaba yatanga ifumbire.

Inyana ni mu kana k'inka ibyara. Kakaba kagomba kwitabwaho mu buryo bwose bushoboka. Kakaba gafite aho karara hasa neza, ndetse gasasiye ibyatsi kugira ngo kataryama mu mwanda. Ibyo ngibyo bituma itarwaragurika ndetse igakura neza.

Ikiraro cy'amatungo, harimo icyana cy'ingurube, bigaragara ko kikiri gitoya, ndetse n'ibyo cyari cyagaburiwe, cyariyeho ibindi cyikabisigaza, ingurube ni itungo rifatwa nka rimwe mu matungo afite umumaro, kuko rigira umumaro munini, kuba ryatanga amafaranga, ndetse rikaba ryavamo n'ibyo kurya.

Amatungo magufi ari mu kiraro. Amatungo magufi ni ihene. Zikaba zifite ubwatsi zirimo kurya. Ikiraro cyazo cyubakishije ibiti bishinze ndetse n'ibindi bitambitse hejuru bifashe ibishinze kugira ngo bitagwa.

Inka hamwe n'inyana yayo imaze kubyara biri kumwe aho iba, bigaragara ko inyana ikiri ntoya itaramara igihe kinini. Inka iyo imaze kubyara biba byiza iyo inyana yayo yitaweho kugira ngo itagira ikibazo.

Amatsinda y'abantu abiri atandukanye, aho bamwe bafite ibibwana by'ingurube mu ntoki, abantu bafite ingurube mu ntoki ziri mu migozi, imigozi ni yo bafashe, bakaba barimo kureba iyindi nini imbere yabo nkaho ari yo yazibyaye.

Ihene ni amatungo yo mu rugo abarirwa mu matungo magufiya. Ihene zigira umumaro cyane kubera ko zishobora gutanga ifumbire ikoreshwa mu murima kugira ngo ibashe kongera umusaruro. Ibyo bigatuma abantu beza cyane, bakabona amafaranga menshi avuye mu buhinzi.

Ihene nyinshi ziri kumwe, zirimo kurya ubwatsi bazahiriye. Ihene ni amatungo yororoka vuba kuko zibyarira igihe gitoya kandi ishobora kubyara akana karenze kamwe. Bivuze ngo zishobora kororoka mu gihe gitoya, zikaba nyinshi cyane kurusha uko inka zakororoka.

Inyanya zitangiye gutukura, bigaragaza ko zigeze igihe cyo kuba zasarurwa. Inyanya ni kimwe mu bihingwa bigezeho, kubera ko zigira isoko rinini cyane, kandi zikaba ziba zihagaze ku giciro cyiza, gusa na zo kuzihinga birahenda.

Umuferege ucamo amazi, hakurya yawo hakaba hari imyaka bigaragara ko hari uwifashishwa mu kugira ngo basukire iyi myaka mu gihe cy'imvura ibashe kubona amazi ahagije, maze izakure neza itange umusaruro uhagije ba nyirayo.

Ahantu hari udushashi twinshi turimo itaka bagiye bateramo ibiti kugira ngo bibanze bishinge imizi, bimenyere ndetse nibabitera bizabashe kwikururira amazi bitazicwa n'izuba ngo bihite byuma.

Ingano ni kimwe mu byo kurya bibarirwa mu byo kurya bitera imbaraga, bisaba kugira ngo umanze uzisheshe ubundi ukuremo ifu ari yo ukoresha ukora ubugari, kugira ngo biribwe n'uko biba byakozwe neza kandi bikagira umumaro munini ku mubiri.

Imboga ni igihingwa cy'ingenzi cyane mu buzima, kubera ko zigira umumaro mwinshi ku mubiri, cyane cyane kugira ngo umubiri utarwaragurika ndetse n'umwana waziriye akura neza ndetse atazira umuze, akagira ubuzima bwiza ndetse akazanabaho atarwaragurika.

Inyanya zirimo izitangiye gushya ndetse n'izitarashya, inyanya ni kimwe mu bihingwa bihingwa ndetse bikabyara umusaruro mwinshi kubera ko zirahenda kandi zikunda kwera nubwo nazo zisaba gushora cyane, kuko zisaba imiti myinshi kandi n'imbuto yazo irahenda.

Ubuhinzi bw'ibijumba ni bumwe mu buhinzi bukorwa n'abantu benshi kuko ni ibyo kurya biribwa n'abantu benshi cyane cyane abo mu byaro, bakaba babuhinga ku buryo batagomba gupfa kubura ibyo kurya, keretse ibyo amasoko ni nibyo biba bigoye kubona kuko batabihinga ku buso bunini.

Imigano ni ubwoko bw'ibiti, burinda ubutaka, cyane cyane ahantu haca amazi menshi, kuko bigira imizi myinshi cyane, kandi miremire, ifata ubutaka, bigatuma budatwarwa n'amazi, rero ni byiza kubitera ahantu hose, hakekwa ko hashobora kugira ikibazo cy'isuri kugira ngo bifashe kuyirinda.

Ibigori ni kimwe mu bihingwa bigira umumaro ndetse bigahingwa n'abantu benshi mu Rwanda, ni igihingwa gisaba kwitabwaho kuko bisaba kugira ngo ukibike neza kitangirika cyangwa se ngo gihure n'impungu ishobora kucyangiza, kuko iyo impungu ibigiyemo bituma bita umusaruro wabyo ndetse ntibimere neza nkuko byari biri.

Urusenda ni bimwe mu bihingwa bidakunze guhingwa cyane, gusa bigira umumaro kuko urusenda rwongera apeti ku bantu batagira apeti yo kurya cyane ndetse rukaba rushobora no kubyara amafaranga mu gihe waruhinze ku buso bunini.

Umuntu urimo gutunganya umuti wo guhereza amatungo. Amatungo iyo yarwaye bisaba kuyategurira imiti anywa kugira ngo ayivure indwara arwaye, ni byo bituma akomeza kubaho kandi akagira umusaruro nkuko biba byitezwe

Abantu batatu bafashe inka barimo kuyitera umuti bakaba barimo kuyivura kugira ngo ikire uburwayi irwaye. Ibyongibyo bituma inka ibaho ubuzima bwiza igakira indwara zose yari ifite, nuko igakura neza kandi vuba igatanga umusaruro.

Inkoko ziri hamwe aho ziba ndetse n'umuntu uzitaho, akaba yambaye imyenda y'akazi ndetse afite ibyo kurya agiye kuzihereza. Inkoko ni kimwe mu matungo yororoka vuba kuko zituraga udushwi twinshi kandi zikororoka. Ni byiza rero gutunga inkoko nk'umushinga.

Inka ni itungo ryo mu rugo, risaba kuryitaho cyane cyane igihe ritameze neza, ubona ritarimo kurya neza cyangwa ridakura ngo rishyire amaraso ku mubiri, kuko rishobora kurwara bikaba byaritera ingaruka zitari nziza, harimo nko kuba yagera n'aho gupfa.

Inka za kijyambere ziri mu biraro byiza, ndetse zifite imivure myiza yo kuririramo, aho hari abantu baje kureba uko bikorwa, kugira ngo na bo babashe kwigiraho, bazagende babikorere aho bagiye, hakaba hari n'ikigega ndetse n'inzu aho abantu bazitunze baba.

Umuntu wambaye imyenda y'ubururu akaba afashe ihene, aho bigaragara ko ari umuganga w'amatungo ari kuyitera urushinge. Bigaragaza ko yari irwaye akaba arimo kuyivura kugira ngo ikomeze kugira ubuzima bwiza.

Abantu bane hamwe n'imbwa eshatu, bigaragara ko imbwa zirimo guterwa inkingo cyangwa se guterwa imiti, mu gihe ziramutse zifite uburwayi. Ikintu kiza gukingira amatungo kuko iyo agize ikibazo bituma atanduza abantu, cyangwa niba yarumye umuntu bigatuma na we atandura.

Umuntu wicaye hafi y'ikiraro cy'amatungo bigaragara ko ari aho inka ziba, hakaba harimo n'inka imwe irimo irarya bigaragara ko barimo kuyigaburira, kubaka ndetse ukubakira neza amatungo ni ikintu cy'ingenzi mu bworozi kugira ngo ubashe kugera ku ntego wihaye zo kurora neza ndetse ugatera imbere.

Abantu barimo kubaka ikiraro cy'amatungo, ahantu amatungo arara hagomba kuba hubatswe neza, hakagirirwa isuku ndetse hakarindwa ikintu icyo ari cyo cyose gishobora kuza kikaba cyakwinjira, kikaba cyagirira nabi iryo tungo, urugero hari izindi nyamaswa zishobora kwinjiramo zikaba zarya nk'iyo nyamaswa cyangwa se zikaba zayikomeretsa.

Inka iziritse ku giti aho hari umugabo uyiri inyuma bigaragara ko ari umuvuzi w'amatungo. Akaba arimo kuyivura cyangwa se arimo kuyitera inanga kugira ngo izabashe kubyara icyororo bifuza.

Imiti myinshi iri mu bikarito ndetse indi iri mu macupa ikaba iteretse mu tubati, aha ngaha bisaba ngo habe hari umuntu ubisobanukiwe kugira ngo akuyobore ibyo ugomba gukoresha mu gihe amatungo yawe afite ibibazo runaka.

Imparage ni inyamaswa zo mu ishyamba zirya ibyatsi, imparage zikunda kugendera hamwe ari ikigore n'ikigabo ndetse zikaba zibyara ndetse zikosa ibyana byazo, imparage ziraribwa kuko ntago zirya inyama.

Inyoni ihagaze ku ishami, iyi inyoni ifite ibara ry'umukara ndetse n'ibara ry'umutuku ku mutwe wayo. Inyoni ni kimwe mu bikoko bifasha mu gukurura ba mukerarugendo bagatanga amafaranga afashishwa mu kubaka igihugu.

Ingagi ni imwe mu nyamaswa zikundwa n'abantu benshi, kuko zisurwa cyane abantu bashaka kureba uko zisa, uko zibaho, ndetse n'uburyo zitwara iyo ziri kumwe n'imiryango yazo, akaba ari kimwe mu bintu byinjiza amafaranga menshi, mu buryo bw'ubukerarugendo.

Abantu bafite amatoroshi ndetse bambaye imyenda y'icyatsi, barimo kugenda bamurika hejuru yabo, bigaragara ko ari abakerarugendo cyangwa se bakaba ari abayobora abakerarugendo, ni byiza rero kuko bifasha abakerarugendo kumenya iyo bajya.

Ikiraro gifite agatimba mu mpande gatuma abantu badashobora gukora impanuka ngo babe bagwa mu ishyamba. Iki kiraro kiri mu ishyamba rya Nyungwe, aho abakerarugendo bagicaho mu gihe barimo gutembera muri iri shyamba.

Ingwe ni inyamaswa yo mu ishyamba iboneka ahantu hakeya cyane. Ikaba ari inyamaswa irya inyama ndetse bishoboka ko iyo uhuye nayo ishobora kukugirira nabi cyangwa se ikaba yagukomeretsa. Ingwe ni imwe mu bikoko bikomeye biri kuri iy'Isi.

Ingagi iri hejuru mu biti iryamyemo. Ingagi ni kimwe mu binyamaswa bigira umumaro cyane kubera ko yinjiza amafaranga menshi mu rwego rw'ubukerarugendo, bitewe n'abantu benshi baza kuzisura bakeneye kuzireba ngo barebe uko zibaho ndetse nuko zisa.

Inkende yicaye hagati mu muhanda, inkende ni inyamaswa iba ifite ubwenge, kandi yitwara hafi nk'umuntu. Inkende ishobora kugira ubwenge kugeza aho ishobora kwita ku mwana wayo, ikamuheka, ikamwonsa ndetse ikamumenyera n'ibyo akeneye.

Inyoni ifite amabara y'umweru n'umukara, iri ku ishami ry'igiti, inyoni ni inyamaswa zikunda kuboneka ahantu henshi ariko zigakunda kuboneka cyane cyane ahantu hari ibiti byinshi ndetse n'amazi, zikaba zikurura ba mukerarugendo bakaza kuzisura, kugira ngo batange amadovize.

Inyoni ihagaze ku ishami ry'igiti ikaba ifite amasunzu ndetse ifite amababa y'umukara, inyoni ni kimwe mu bintu byiza bikurura ba mukerarugendo baza gusura inyamaswa bagatanga amafaranga y'amadovize.

Agasumbashyamba ni zimwe mu nyamaswa ndende zibaho ku Isi, akaba ari inyamaswa irya ibyatsi ndetse n'ibiti, agasumbashyamba ni inyamabere, bivuze ko kabyara ndetse kaka nonsa, agasumbashyamba ni kamwe mu nyamaswa zikurura abakerarugendo benshi.

Inyoni ni kimwe mu biremwa byiza biva ku Isi, kuko iba ivuga neza kandi ziba zisa neza, inyoni ihagaze ku ishami ry'ururabyo aho yari irimo gushaka icyo kurya, inyoni ni kimwe mu bintu bikurura ba mukerarugendo bakaba batangaya amafaranga kuri Leta.

Ikiraro cyubatse hejuru y'ishyamba, gifite udutimba ku ruhande dutuma abantu badashobora gukora impanuka ngo babe bagwa hasi bagire ibibazo byo kuba bahaburira ubuzima cyangwa se ngo bavunike.

Inyoni ifite amabara y'umukara ndetse n'andi y'umuhondo, ifite umunwa uriho ibara ry'umutuku, inyoni ni kimwe mu bintu by'ingenzi cyane kuko bikurura ba mukerarugendo ndetse bikaba byafasha no mu kubangurira imyaka hagati yayo, kuba byakwera neza ndetse bigatuma bigira umumaro cyane.

Inkende ni zimwe mu nyamaswa zishobora kuba ahantu henshi harimo n'ahantu haba abantu, kuko zishobora kubaho zibana n'abantu gusa ntago ari byiza kuko zishobora gutera indwara abantu.

Inyoni ifite amabara menshi harimo umutuku, harimo icyatsi ndetse n'umukara n'ayandi, ifite umurizo muremure nziza cyane, ikaba irimo kuguruka mu kirere igenda, inyoni ni kimwe mu bintu byiza bikurura ba mukerarugendo.

Inyamaswa zo mu ishyamba ni bimwe mu bikoko bifasha mu guteza imbere igihugu kubera ko bikurura ba mukerarugendo, bakaza kubireba ndetse no kubisura, batanga amafaranga yinjira mu buryo bw'amadevize bigatuma leta ibona amafaranga ikoresha ibikorwaremezo.

Inyamaswa yo mu ishyamba ihagaze munsi y'ibiti, irarisha kandi ibyara ikanonsa. Ni inyamaswa ishobora kuribwa mu gihe umuntu ayibonye, kuko nta kibazo igira kuko irya ibyatsi.

Igikona ni igisiga kigira amabara y'umukara ndetse n'umweru. Akaba ari igisiga kigenda gitoragura ibyo kurya aho kibonye hose. Igikona ni kimwe mu nyoni ziba mu Rwanda ndetse zikunda kuba ahantu henshi.

Inyamaswa zo mu shyamba eshatu zihagaze ku mugina. N'inyamaswa z'indyabyatsi, zishobora no kuribwa. Izi nyamanswa ni zimwe mu zikurura abakerarugendo, kubera ko baza bashaka kuzireba bakaba bakishyura, amafaranga kuri leta ikayakoresha mu bikorwa biteza abaturage imbere.

Inyoni ni inyamaswa zikunda kuba ahantu hari ibiti byinshi nko mu mashyamba n'ahantu hari amazi nko mu bishanga, zikaba zikunda gukurura ba mukerarugendo, bityo zikaba zinjiza amafaranga mu buryo bw'ubukerarugendo.

Inyoni ihagaze ku biti bifite indabyo, inyoni ikaba ifite umunwa mutoya usongoye, amababa y'umuhondo, umutuku, ubururu, icyatsi ndetse n'umukara, ikaba ari inyoni nziza urebeye inyuma, isa neza cyane kuko amabara ayitatse ni meza.

Inkima nyinshi ziri mu muhanda zifite amabara y'umukara n'umweru ndetse n'imirizo miremire. Umuhanda ukoze muri kaburimbo ufitemo ibara ry'umweru hagati. Inkima ni bimwe mu bikoko biba mu ishyamba bifite ubwenge kurusha ibindi.

Inkima ni inyamaswa imwe mu ziba mu ishyamba. Igira uburyo bwo kurira ibiti mu buryo buyoroheye. Ikaba ifite ubwenge hafi kunganya n'abantu. Kuko ishobora gutwita ku mwana wayo nk'uko umuntu amwitaho. Ndetse ikaba ishobora no kumuheka mu mugongo.

Ihene y'umusheru iri mu rwuri, yajyanywe kuragirwa kugira ngo irishe, ikaba irimo kugenda iri imbere y'ibiti, ihene ni zimwe mu nyamaswa zororwa n'abantu zikaba mu rugo, zikaba zifite umumaro munini cyane.

Igihunyrai ni imwe mu nyamaswa iguruka ariko ijya kumera nk'ipusi, ikaba ifite umutwe umeze nk'uw'ipusi, ariko ikaba igira amababa kandi iguruka ikaba ari inyoni ikunda kutaboka ahantu henshi.